Umupolisi uri kuganiriza abaturage baremye inama, akenshi abapolisi cangwa se n'abandi bantu bagize ubuyobozi barimo: abadaso ndetse n'abasirikare, bagiranaga ibiganiro hagati y'abaturage hibandwa ku cateza imbere umutekano ndetse no gutangira amakuru ku gihe kugira ngo umuturage aze ku isonga.

Akayira k'abanyamaguru ko mu muhanda. Ni akayira kagenwe kunyurwamo n'abanyamaguru. Akenshi karangwa n'amabara y'umweru agiye ahagaze, anyuze mu muhanda. Ni ngombwa ko buri muntu ugiye kwambuka akayira k'abanyamaguru, abanza kureba impande zose iburyo n'imosoko nta kinyabiziga kize, kandi n'ibinyabiziga bikubahiriza amategeko y'umuhanda.

Impanuka y'umuriro Ubusanzwe impanuka y'umuriro ishobora guterwa n'ubucucike bw'amazu no gukoresha nabi ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amasharijeri, amateleviziyo cyangwa se gucokoza, cyangwa se bikongera bikaba byanaterwa n'uburangare bwa ba nyiri ukubikoresha. Ni ngombwa ko hirindwa uburangazi ubwo ari bwo bwose bwatuma haba impanuka y'umuriro.

Imodoka ishinzwe kwikorera ibikoresho runaka, biba biri gukoreshwa mu nyubako cangwa se mu ishansiye ahantu runaka. Izi ni imodoka ziba zifite ibizifasha birebire ku buryo ki ziba zifite ubushobozi bwo gutwara abantu n'ibintu mu nyubako zo hejuru, cangwa se izifite uburebure burenze.

Inkonjyi y'umuriro cangwa si inzu yafashe umuriro iri gukongoka akenshi inkonjyi ziterwa n'ibintu bijyiye bitandukanye birimo: uburangare, birimo akavuyo k'inyubako ndetse n'inzu zubatse nabi cangwa zesitaye nabi cangwa uburangare bw'abantu ni ukuvuga ko inkonjyi z'umuriro zishobora kwirindwa cane.

Akarasisi cyangwa se paledi. Ubu akaba ari uburyo bw'imyiyereko bukorwa n'abasirikare ndetse n'abandi bantu bitwa abajiya, mu buryo bwo kwerekana ubuhanga bwo gushobora gukoresha ibice bigize amaguru, ibice by'umubiri birimo amaguru n'amaboko n'umutwe, mu buryo bw'umwihariko.

Umurongo gw'abantu bambaye amapingu bafite ibyaha bakurikiranweho. Umuntu ashobora kwambikwa amapingu mu gihe afite icaha akurikiranweho， cangwa se mu gihe ari kuburana mu rubanza runaka， kwambikwa amapingu ni igikorwa gikorwa n'inzego z'umutekano， kugira ngo uwo wambitswe amapingu adacika cangwa atagerageza gucika inzego z'umutekano.

Umurinzi w'ahantu runaka cangwa se umugaride. Akenshi abarinzi ca abo bita abahomu gadi bakunze kurinda ibigo ndetse n'izindi kampanyi zigenga, cane cane bakunze kurinda nk'ibitaro, amashuri ndetse rimwe na rimwe n'ahandi hantu hakomeye. Abagaride baba boroheje cane ko batarakoze imyitozo zikaze.

Indege yo mu bwoko bwa erikobuta, akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gukora ingendo ziva cangwa zija ahantu runaka mu kirere. Indege za erikobuta zikunze kwifashishwa cane n'ibigo bya gisirikare cangwa se ibindi bigo. Ntabwo ari zimwe mu bwoko bw'indege zitwara abantu benshi mu buryo bwa rusange.

Ingabo cangwa si Umusirikare w'igihugu c'Urwanda ukikijwe n'abandi banyacubahiro b'ibyiciro bitandukanye barimo u Umupolisi ndetse n'uhagarariye iciciro ca Ribu ndetse n'abandi banyacubahiro bandi akaba ari kuvuga ku nsanganyamatsiko runaka akenshi zijanye n'umutekano.

Ikimina cangwa se koperative akaba ari itsinda ry'abantu bahurira hamwe bagiye gukoteza amafaranga runaka bitewe n'imyanya ufite ukotezaga amafaranga angana n'imyanya ufite koperative cangwa se ibimina ni ingenzi mu guteza imbere umuntu ku giti ce ndetse n'abantu batuye agace runaka muri rusange bitewe n'amafaranga cangwa n'ikintu baguraga muri gamafaranga.

Inama y'abanyacubahiro bagiye batandukanye, bateraniye hamwe bafite ikintu bari kwigaho. Inama ni ikoraniro ry'abantu bari hamwe bafite ingingo runaka bari kwigaho, umwanzuro runaka bari gufata cangwa se icyemezo runaka bari gufata. Akenshi inama zigomba kuba zateguwe, bene kuzijamo bakamenyeshwa igihe, ndetse n'insanganyamatsiko izo nama ziraba ziri kuvugaho.

Inteko y'abaturage, akaba ari inama akenshi zikunze kuba rimwe mu cumweru, zigambiriwe gukemura ibibazo by'abaturage: ibibazo byo mu ngo, ibibazo by'amakimbirane, n'ibindi bibazo akenshi bigenda bigaragara mu mudugudu. Mu nteko y'abaturage nanone, hashobora kuganirwamo ibindi bintu nk'iterambere ry'umudugudu n'ibindi byifuzo byashizwe kuri gahunda.

Umusangiza w'amagambo cangwa si emusi akaba ari umuntu uba ushinzwe gutanga ikaze mu biganiro biba bigiye bitandukanye, akayobora ikiganiro cangwa si umusi mukuru ndetse akaba ari umuhwituzi ku bijanye no gukoresha igihe, ndetse akaba rimwe akenshi ashiramo ibintu byo gutega cangwa si gusetsa.

Umwuko, kikaba ari igikoresho kibajwe mu giti, kikaba ari igikoresho bifashisha bari nko kuvuga umutsima, guteka igikoma no kuvanga ibindi bintu bigiye bitandukanye, mu gihe umuntu atetse. Umwuko mu busanzwe ugura amafaranga atari munsi ya magana atanu.

Ibikoresho by'ubugeni cangwa si bibumbye cangwa si bikozwe mu biti birimo masike ndetse n'ikibindi. Ibumba ndetse n'ibiti ni bimwe mu bintu byifashishwa bari gukora ibikoresho bibumbye cangwa si ibikoresho bibajwe. Ibi akaba ari ibikoresho by'ubugeni bakunze gucururiza mu nzu z'imideri cyangwa si ndangamurage.

Udukoko ndetse n'amasahani gariho ibiryo bya kinyagwanda bigizwe n'ibirayi by'amaganda, ibitoki, umunayo cangwa se umutsima gw'uburo, ibihaza, ibishimbo, imboga, ibijumba n'ibindi byose. Ubu bwoko bw'ibiryo bukunze akenshi gutekwa ku munsi gw'umuganura.

Ibisabo kikaba kimwe mu gikoresho c'umuco nyarwanda kigaragaza gutunga ugatunganirwa, ndetse ugatunga amasho g'inka, ugatunga n'ibindi bigiye bitandukanye bikomoka ku mata. Ibisabo byifashishwa cane no mu bukwe nko gutangwamo impano.

ikibumbano cangwa monima akaba ari ikibumbano cyangwa se igishushanyo gikoze mu buryo bubajwe, cangwa ibumba cerekana ibintu cangwa gitanga ubutumwa runaka, ibibumbano akenshi bisangwa mu nzu ndangamurage cangwa ahandi hantu mu bigo runaka bibumbatiye amateka y'ahashize.

Ibiryo bya kinyarwanda bigizwe n'ibishimbo, ibijumba ndetse n'ibitoki, ubusanzwe akenshi ibiryo bya kinyarwanda byibanda ku bihingwa byera mu gace runaka gusa kuri iyo ndyo ya kinyarwanda hakunze kurangwamo ibindi biribwa birimo: nk'amateke, ibirayi, ibigori ndetse n'imyumbati.

Imbyino gakondo, ubu akaba ari bumwe mu bwoko bwo kubyina, aho abantu barambura amaboko ndetse bakagenda bazunguza imitwe, ibyitwa guca umutaga. Mu busanzwe izi mbyino zigaragaza umuco nyarwanda, gutunga inka nyinshi zo mu bwoko bw'inyambo ku Rwanda rwo hambere ndetse n'ubu ngubu.

Inzu y'ubugeni, cangwa si ibamo ibikoresho bibajwe, cangwa si bibumbye mu mabumba, bigaragaza cane cane umuco wo mu Rwanda rwo hambere. Aha hasangwamo ibikoresho nk'amacumu, imyambi, udukono, ibirago, imyuko, ndetse n'ibindi bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere. Ibi biba bigaragaza gusigasirwa k'umuco nyarwanda.

Isakaro ry'igipangu cangwa se irya gati rigizwe n'amategura, amategura ni bumwe mu bwoko bw'ibikoresho bukoreshwa basakara, usibye ko muri izi minsi bwasimbuwe n'amabati. Amategura gaba gabumbye mu ibumba cangwa se murwondo.

Umuntu utwaye cangwa se wikoreye umuvure. Umuvure ni igikoresho cifashishwaga bari gukama urwagwa cangwa se umutobe. Gukama urwagwa ni ugufata ibitoki ukabivanga n'amasaka ukabivanga n'ubundi bwoko bw'ibyatsi byifashishwa, barangiza bakabikama bakoresheje amaboko cangwa amaguru.

Akamamiyo akaba ari kimwe mu bikoresho biri mu bwoko bumwe mwuko cangwa si icyo wagereranya nikiyiko kinini. Kikaba gikoze ku buryo ki ahagana ahatangira hafukuye cangwa si hacukuye ku buryo ki bagikoresha mu kuvanga ibiryo ndetse no kumva ko ibiryo birimo urugero rw'ibirungo bashaka nk'umunyu, amavuta n'ibindi n'ibindi.

Rukacarara cyangwa se umutsima gw'amasaka. ibi ni bimwe mu biryo byaribwaga cyane cyane mu Rwanda rwo hambere aho nyuma yo gusya ifu y'amasaka bafataga iyo fu barangiza bakayivugamo umutsima. Nk'ubu izi mitsima z'amasaka n'izikiribwa cyane ubwo zasimbuwe n'imitsima z'ibigori zitwa za kawunga.

Indaro, igikingi cyangwag se urugo rw'umwami. Rukaba cyangwa iyo ndaro ikaba yarabaga yubakishijwe ibiti n'imigano, ndetse isakashishijwe ibyatsi. Ikaba yari yihariye kugira ibikoresho bigenda bitandukanye birimo indani nk'utubindi n'ibirago, n'ibindi n'ibindi byabaga bikoze mu biti.

itsinda ry'abakaraza cyangwa se abakomyi b'ingoma akaba ari abantu baba bazi banafite ubuhanga mu bintu bijye no gukoma ingoma. Akenshi abakomyi b'ingoma cyangwa se bakaraza bakunze no kuba bazi no kuririmba indirimbo gakondo bijana nanone no kubyina zimwe mu ndirimbo baba bazi kuvugiriza ingoma.

Imirya tukaba ari udutsinga tuba turi ku gikoresho c'umuziki akenshi na kenshi iningiri cangwa se gitari imirya nizo zitanga amajwi runaka umucuranzi aba ashaka gucuranga imirya ziba zifite uburyoki ziregeye ku rwego iyo ukoze kuri gumwe cangwa se ukagenda uzikoraho ari nyinshi bitanga uruvange rw'imiziki runaka.

Umuzinga, igikoresho cya gakondo kikaba intaho y'inzuki. Ni igikoresho gikorwa hifashishijwe imigano, ibibabi by'insina ndetse n'amase. Kikaba ari igikoresho akenshi gikunze gushyirwa mu gitari, cyangwa mu ishyamba kure y'aho abantu batuye kugira ngo inzuki zibone uko zinjiramo.

Ababyinnyikazi, ababyinnyikazi ni bamwe mu bantu baba bagize itorero, ubusanzwe itorero riba rigizwe n'ababyinnyikazi ndetse n'intore, ababyinnyikazi aba ari abagore cyangwa abakobwa, mu gihe intore ziba zigizwe n'abasore cyangwa abagabo. Ababyinnyikazi akenshi babyina bateze amaboko, amaboko arambuye mu buryo bw'inyambo cyangwa se amahembe y'inyambo, bigaragaza gutunga inka z'inyambo mu Rwanda.

umugore uri gusya isombe yifashishije isekuru n'umuhini. Isombe mu busanzwe barayisya bakoresheje umuhini n'isekuru, gusa hariho n'uburyo bwo kujya kuyibetesha hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga.

Ingoma kikaba kimwe mu bikoresho by'umuziki byifashishwa n'ababyinnyi gato gakondo babyina injyana yo mu buryo bwa gakondo. Akenshi ingoma zikorwa mu mpu z'inyamaswa ndetse kugira ngo zitange umuziki nkuwo zigomba gutanga zigashirwa ku izuba ngo zigatarwa kugira ngo zizashobore gutanga umuziki.

Uducuma tukaba ari bimwe mu bikoresho bibikwamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye , akenshi uducuma tubikwamo cangwa si dukoreshwa iyo bari gushiramo bakananyweramo ibinyobwa bisembuye . Uducuma dukunze gukoreshwa cane cane mu birori byo gusaba umugeni aho abadukoresha baba banywa basangira nko kwimakaza umuco Nyarwanda.

Amacumu ni kimwe mu gikoresho gakondo cifashishwaga mu gihe cabaga ari ic'urugamba rwo kwagura u Rwanda mu gihe c'ubwami, mu gihe u Rwanda rwari ruyobowe n'ubwami, gusa n'ubu byifashishwa cane n'ababyinnyi bagaragaza gukomera ku muco nyarwanda.

Intore cangwa se ababyinnyi bo mu itorero runaka. Ubusanzwe ababyinnyi ni abantu bakunze kubyina bari gusimbuka ibyo bita guhamiriza, bakitega ibintu by'ibyatsi, ndetse bakaba bafite n'ibintu biba biri kujegera byitwa amayogera. Izi mbyino zabo akenshi ziherekezwa no gukomwa ku ingoma, ndetse n'urusaku rwa bagenzi babo baba bahari.

Itorero cangwa si itsinda ry'ababyinnyikazi baserutse cyangwa se bari kubyina, mu gikorwa runaka. Akenshi itorero rikunze guseruka mu bi mu bi mu bihe byo cangwa se mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'umuganura, iminsi gakondo cangwa se ibindi birori byo kugaragaza umuco nyarwanda.

Intango y'umusururu cyangwa se ikibindi kiba kirimo umusururu w'ubwoko runaka. Ni umusururu ushobora kuba urimo ubuki cyangwa se butarimo biterwa n'agace wengewemo cyangwa se n'abantu bawenze. Bivuze ngo akenshi intango zikunze gukoreshwa mu bihe by'ubukwe ,cyangwa se ku munsi w'umuganura.

Inkono y'itabi, kikaba igikoresho cyifashishwa bari kunywa itabi. Kugira ngo barinywe bafata ibibabi by'itabi bita ibikamba, barangiza bakabivunjagurira hariya hejuru, bakarasa umwambi, bakarasa hejuru hariya hejuru, barangiza bakaritumagura bakoresheje kariya kantu k'agatwe imbere y'intoki.

Ikibuguzo, akaba ari ubwoko bw'umukino bakina, aho bavana imbuto cangwa se udusaro baba bari gukinisha bakatuvana mu mwanya gumwe bakadushira mu gundi bitewe n'utwo bagize cangwa se na mugenzi wawe utwo ari gukinisha, ukaba ushobora kumutsinda utwara utwe, inka, inka ze ari gukinisha.

Inyundo akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwaga mu bwubatsi. Inyundo zifashishwa akenshi baconga amabuye ndetse banamena amabuye. Inyundo nanone ishobora kwifashishwa batera imisumari cangwa se batera imambo. Inyundo ni igikoresho gikomeye cane iyo bigeze mu bwubatsi.

Umukino wo gusimbuka urukiramende, urukiramende ubundi ni uduti tubiri bashingaho akandi, bagerekaho akandi ko hejuru kikamera nk'izamu, ku buryo baja barasimbuka. Ubusanzwe urukiramende rwifashishwa abana bari gusimbuka, urubyiruko mu buryo bwo kwitoza gusimbuka hejuru cyane.

Akabindi. Ni igikoresho cakoreshwaga cane cane mu gihe co hambere kuko ubu casimbuwe n'amasafuriya ndetse n'ibindi bikoresho by'amapalasitike, bishobora kubikwamo amazi cangwa umusururu. Ni igikoresho cakoreshwaga babikamo amazi, umusurururu ndetse n'ikindi kintu gisukika.

Ingobyi ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga cane cane mu Rwanda rwo hambere, gusa n'ubu bigikoreshwa. Ingobyi zagenewe gutwarwamo abarwayi barembye. Ingobyi akenshi ubundi ziba ziboshe mu migano, ndetse ziba zifite utuntu ku mupande bacomekagamo ibiti kugira ngo babone uko baterura umurwayi.

Amaguru g'ameza gakoze mu migano. Umugano cyangwa se imigano iyo ari myinshi, ni ubwoko bw'ibiti bukorwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Twavugamo nk'isaso z'ibitanda, utubati, ndetse imigano ni kimwe mu byifashishwa bakora intara n'uduseke. imigano ni kimwe mu bwoko bw'ibiti bwifashishwa cane ni ngombwa kuzirinda no kuzitera.

Abagore bicaye bari kuboha ibirago bakoresheje ubwatsi bwitwa ubunyusi, usibye ubunyusi bakoresha n'ubundi bwatsi bwitwa ibikangaga, usibye ibikangaga nanone bifashisha, bifashisha imigano baboha ibindi bintu birimo udukoko, uduseke n'utwibo.

Intango cyangwa ibibindi akaba ari ibikoresho byifashishwaga cyane mu Rwanda rwo hambere usibyeko n'ubu byifashishwa mu buryo bwo kubika amazi, gushyirwamo umusururu cyangwa n'ibindi binyobwa bishobora kuba birimo urwagwa. Nanone usibye izi ntango habaga hariho n'udukono cyangwa se utubindi twatekerwagamo ibyo kurya, usibyeko ubu byasimbuwe n'amasafuriya.

Ibiryo bigizwe n'ibihaza ndetse n'ibishimbo bitogosheje ibihaza ndetse n'ibishimbo bitogosheje ni kimwe mu biryo bavuga yuko ari iby'umwimerere bitarimo amavuta ni bimwe mu biryo bikunze gutekwa cane cane mu caro ndetse no mu bindi bice by'itaruyu mujyi aho badakunze gukoresha amavuta menshi ahubwo bibanda ku biryo bya gakondo.

Amasunzu. Bukaba ari ubwoko bw'inyogosho zogoshwaga abami ndetse n'abatware, mu gihe cya mbere cy'u rwanda rugitegekwa n'abami. Amasunzu yari arakoze ku buryo ki wagira ngo ni amacumu cyangwa se umusatsi mwinshi iruhande rumwe. Ubu byarahindutse izi nyogosho ntabwo zigihari.

Kuvuza umwirongi: umwirongi ni kimwe mu gikoresho ca muzika bakoresha cangwa se bavuza aho bagifata bakacegereza umunwa bagasunikamo umwuka ku buryo bupimye bitewe n'injana bashaka kuririmba cangwa bashaka gukora. Umwironge akenshi gukunze gukoreshwa n'abantu babyina ndetse bakanaririmba indirimbo za gakondo. Abitwa itorero.

Itorero rigizwe n'ababyinnyikazi bateze amaboko, ndetse bikoreye ibyibo. Gutega amaboko kw'ababyinnyikazi ni ikimenyetso kigaragaza amahembe g'inyambo, bisobanura gutunga inka mu Rwanda. Icibo kikagaragaza umuco nyarwanda wo gutunga ibinyampeke, ndetse n'ibindi biribwa. Nico iyi mbyino igaragaza.

Ikirago, kikaba kimwe mu bikoresho by'umuco nyarwanda. Ikirago kibohwa cyangwa se gikorwa hifashishijwe ubwatsi bita ibikangaga, cyangwa se ubunnyusi, ndetse n'ubudeyi cyangwa se ubwatsi cyangwa se imigozi babohesha.

Kumasha cangwa se kurasa umwambi, iki akaba ari igikorwa co gufata umwambi ukawushira mu muheto warangiza ukarasa. Akenshi ibi bigaragaza umuco nyarwanda kuko byakoreshwaga ibikoresho byakoreshwaga cane hambere bari guhiga, ndetse bari no kurwana mu gihe c'intambara zo kwagura u Rwanda mu gihe rwari ruyobowe n'abami.

ingoma ifite imirisho hejuru yayo. Ingoma ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa cyane cyane mu mbyino gakondo ndetse rimwe na rimwe zishobora no gukoreshwa no mu mbyino zigezweho. Ingoma zikoreshwa cyane cyane cyane n'intore ndetse n'abandi babyinnyi bashobora kuzivanga n'imiziki zigezweho.

Iduka ricuruzwamo ibikoresho by'ubugeni ndetse n'ububoshi. Ububoshi ndetse n'ubugeni, ni imyuga ihuriza ku kwifashisha ibidukikije birimo: imigano, ibumba ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyatsi. Amase mu gukora ibikoresho bigiye bitandukanye birimo: uduseke, udukoko, inkoni ndetse n'ibindi bitako.

Umusaza uri gutumura itabi akoresheje inkono y'itabi ubusanzwe kunwa itabi hari aho byafatwaga nk'umuco nubwo ubungubu kunwa itabi bigaragaza imico mibi cangwa si kuba umuntu yaragize amahitamo mabi mu kugira inshuti mbi zaba zaramwigishije kunwa itabi cangwa si kuja muri izo ngesombi.

Intango y'umusururu cyangwa se ikibindi c'umusururu. Akenshi intango z'umusururu zizanwa mu gihe gikomeye nk'icy'ubukwe, gusaba cangwa se gukwa. Usibye ko muri izi minsi intango z'umusururu zitagikoreshwa cyane kuko aha baciye kunywera mu miseke. Niyo mpamvu abantu basigaye bakoresha amakurete cyangwa se amavide.

Kugosora ibishimbo ni igikorwa co gufata ibishimbo ukabicugusa uri kubijana hejuru, uri gukuramo ibyapfuye ndetse n'izindi myanda zishobora kuba zirimo nk'amabuye n'udusimba. Mu kugosora ibishimbo bakoresha igikoresho citwa intara ndetse umuntu agosora ahuha muri ibyo bishimbo cangwa izindi myaka zirimo amasaka.

Agaseke cyangwa se akibo. Ni kimwe mu bikoresho bigaragaza umuco nyarwanda. Agaseke usibye kuba gakoreshwa mu mico ndetse no mu ndirimbo nyarwanda za gakondo, agaseke kifashishwa batwara ibintu by'ibinyampeke ndetse n'ibindi bintu runaka. Mu Rwanda rwo hambere, agaseke bagakoreshaga babikamo nk'ifu cyangwa se n'imitsima z'amasaka.

Gukama cangwa se gukora urwagwa : Ubusanzwe urwagwa barukora hifashishijwe ibirenge cangwa se intoki. Aho bafata imineke bakayivanga n'amasaka bakavangaho n'utundi twatsi, noneho bakabivanga cangwa se bagakama urwagwa bifashishije amaguru cangwa intoki.

Gusya. Kikaba kimwe mu bikorwa byakorwaga cyane cyane mu Rwanda rwo hambere. Aho babaga babikoraga bashaka ifu. Mu gusya, hifashishwaga urusyo ndetse n'ingasire. Urusyo rukaba rwari ibuye ryabaga ari rigali bashiragaho imyaka mugiye gusya. Ingasire rikaba ari ibuye bifashishaga bari gusya hejuru.

Inkongoro ndetse n'ibisabo, bikaba bimwe mu bikoresho bya gakondo bivuze ikintu kinini mu muco nyarwanda. nk'inkongoro igaragaza gukamirwa ndetse no gutunga amata n'inka nyinshi kimwe n'ibisabo bigaragaza guhora utunze no kugaragaza ko wifurizwa kugira inka nyinshi ndetse zidateka.

Intore cyangwa se ababyinnyi babyina indirimbo za gakondo, akenshi aba ni ababyinnyi baba bambaye impuzu ku mutwe, bambaye imikenyero ndetse banafite amayogera ku maguru, akenshi bakunze no kuba bafite amacumu ndetse n'ingabo, bigaragaza kurinda ubusugire bw'Igihugu ndetse no kurwanaho biri ngombwa.

Itara ry'inkoni akenshi ni itara rimeze, ryitwa itara ry'inkoni kubera ko ari itara rifite ishusho y'inkoni cyangwa se rirerire rimeze nk'inkoni. Akenshi aya amatara akoreshwa ahantu mu masare cyangwa se mu masaro manini, nubwo muri iyi minsi atakiboneka yasimbuwe n'andi matara y'ibiromba yo mu buryo bw'ibizeru.

Porojegiteri. Akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa cane cane mu mashuri makuru na za kaminuza, cangwa si ku bigo bimwe na bimwe mu byumba bahariye ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibyumba byitwa sumati karasirumuzi. Izi porojegiteri zifashishwa mu buryo bwo kwerekana amashusho mu buryo bwo ku gikuta cangwa si ahantu hanini babyereka abantu benshi.

Fizibure akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa besitara cangwa se bakora, baninjiza umuriro gw'amashanyarazi mu nzu z'ahantu runaka. Fizibure ni igikoresho gishinzwe kuregera umuriro gugomba kuba guri mu nzu ariko nanone kikifashishwa cane cane kikagira uruhare mu kuba carinda impanuka kuko nk'iyo hagiye kuba impanuka mu nzu gihita cikupa, kigakupa umuriro mu nzu.

Imashini ifotoraga impapuro cangwa se ipurintingaga impapuro, akaba ari icuma c’ikoranabuhanga gifata imashini, gifata inyandiko runaka, kikazituburira ku mpapuro. Ibi bikoresho by’ikoranabuhanga biboneka cane cane mu bigo bya Leta, nk’amashuri, ku murenge, za sako, n’ahandi n’ahandi.

Adabuta cyangwa se agace k'umugozi gw'imashini cyangwa laputopu gashinzwe kuregera ikoreshwa ry'umuriro winjira guva guva muri pulize winjira mu mumashini icometse ku muriro. Akenshi adabuta irinda ndetse n'imashini kuba zasha cyangwa zakwangirika ubusa.

Twarezolande cangwa se sikoci. Ni igikoresho cifashisha bazinga cangwa se bateranya insinga z'ahantu hatonoye. Twarezolande yifashishwaga cane mu gukora amashanyarazi. Bitewe n'uko itwikiraga ahantu hari insinga zitonoye kugira ngo ntihazateze impanuka.

Telefone z'imigozi, cangwa se zitagendanwa, izi zikaba ari telefone ziba zifite aho gukanda mugihe ugiye kwitaba, ariko mbere yaho ukaba ushiramo amafaranga, ndetse naho kwitabira, izi aho kwitabira naho gukanda, urukumva hahuzwa n'umuguzi, ariyo mpamvu zitwa telefone z'imigozi. Mu Rwanda, izi telefone ntabwo zikihaba, zasimbuwe n'izindi telefone zigendanwa bita mobayiro fone.

Umudugudu gwa fo ini wane cyangwa si aho inzu imwe irimo agandi mazu ane. Bivuze ngo inzu imwe ibituwemo n'imiryango ine. Amazu ga fo ini wane ni meza cyane, kuko gaturamo abantu benshi, imiryango myinshi, kandi gubatswe ahantu hatoya. Ni kimwe mu ngamba leta ifata kugira ngo igabanye ubwinshi bw'abaturage, yego.

Amatara go ku mihanda gari kwaka n'ijoro. Amatara go ku mihanda akenshi ni amatarara gaba gari ku mihanda za kaburimbo akenshi mu mihanda ziva zikanaja ahantu ku bikorwaremezo bitandukanye by'umujyi cangwa ahenda kwegera umujyi, usibye ko murizi minsi n'imihanda isigaye ija mu byaro cangwa ahandi hantu hatarateye imbere cane.

Urusengero, kikaba ari igikorwa remezo cyagenewe gusengerwamo, cyangwa se kwiyunga no gusanga Imana. Akenshi insengero ziba zubatse mu buryo bwo guteranirwamo n'abantu benshi, ndetse akenshi zikunze kuba zifite ibimenyetso by'umusaraba mu nguni, ndetse n'ahandi hantu hashobora kuba hatandukanye, nk'imbere mu buryo bwo kugaragaza ko ari ahera.

Amashuri gwubatse mu buryo bugerekeranye. Muri izi minsi amashuri gasigaye garubakwa mu buryo bafata inzu bakazigerekeranya cangwa si etaje, mu buryo bwo gutubura ubutaka, ndetse na gahunda yo kongera amashuri abanyeshuri bigiragamo.

Icumba c'abakozi bashinzwe gukora akazi bifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za mudasobwa, ahangaha, akenshi abantu bakoresha za mudasobwa bagomba kuba bafite ubumenyi by'umwihariko gukoresha amapurikasiyo asanzwe ari muri za mudasobwa nk'ayitwa za wadi, za ekiseri, ndetse na pawapowenti.

Inyubako y'ibiro by'Akarere ka Gakenke nk'uko inyuguti zanditse ku nkuta zbigaragaza. Ibiro by'imirenge akenshi biba bigizwe n'inzu irimo ibyumba byinshi bitewe n'abayobozi bagiye batandukanye b'ibyiciro bitandukanye bakoreraga muri iyo nyubako. Mu izi minsi imirenge, ibiro by'imirenge bisigaye byubakwa mu buryo bw'inyubako zigeretse, mu buryo bwo gutubura inyubako ndetse no kurondera ubutaka.

Inyubako igeretse y'isoko ry'ubucuruzi ricururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bimwe na bimwe ni ryo bamwe bitaga kariyeri akaba ari isoko rihurirwagamo ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'imbuto, imboga, ibirayi, ibishyimbo, ibigori n'ubundi bwoko bw'ibinyampeke bucururizwagamo.

I kiliziya, akaba ari ubwoko bw’urusengero busengerwamo n’abizera b’idini rya Gatorika. Akenshi kiliziya ziba zifite uburyo zubakitse, cane cane ziba zifite uruhande rw’imbere ruri hejuru cyane kurusha ibindi bice. Ikindi kandi, kiliziya irangwa no kugiramo ibishushanyo n’ibibumbano bigaragaza Bikira Mariya ndetse na Yezu.

Abanyeshuri barimo abakobwa n'abahungu bari ku ishuri bari kwiga isomo runaka ubusanzwe ishuri ribamo intebe zitondetse muburyo bw'ibihande akenshi biba ar' ibihande bitatu ni uburyo bwo kugira ngo mwarimu azenguruke agere kuri buri munyeshuri bitamugoye kandi buri munyeshuri agira icyo atahana.

Ibitanda byo kwa muganga, cangwa si ibitanda byifashishwa kwa muganga. Ibi ni ibitanda biba bikoze akenshi mu byuma, ndetse bifite n’amapine. Ibi bituma ibi bitanda bishobora gutwarwa ahantu runaka mu gihe bibaye ngombwa. Ibi bitanda kandi biba bifite rasoro ituma bishobora kuzamuka, cangwa si bikamanurwa mu gihe bikenewe.

Ingweba cyangwa se inka y'imbyeyi yo mu bwoko bw'injerisi: Ubu ni ubwoko buzwiho gukamwa amata menshi kandi zikaba inka zororoka cyane. Izi nka ni inka zikunze kuba ziri mu ibara ry'igitare ndetse n'umukara. Inka z'ingweba ni zimwe mu bwoko bukunzwe cyane kororwa mu Rwanda.

Ikibumbano kiriho ishusho ya Bikiramariya kiri imbere ya kiliziya, ubusanzwe Bikiramariya cangwa si umubyeyi urusha abandi bose impuhwe nyirimpuhwe yitwako kuberako yarushije abandi bagore bose umugisha kuko ni we wabyaye umwana witwa Yezu Kirisitu wabaye umwami w'amahanga gose gari ku isi.

Posite dosante cyangwa ivuriro ry' Akagari. Amaposite dosante akenshi yunganira ibitaro bikuru ari byo byitwa sentere dosante. Amaposite dosante atanga nyinshi muri serivisi, nko gupimi inda, gupima sida, kuvura n'izindi ndwara zoroheje nk'ibicurane.

Ibitaro bifite inzu zifite utuyira dusakariye; utuyira dusakariye dukunze kugaragara henshi cyane ku bikorwa remezo, birimo amashuri ndetse n'ibitaro; biterwa n'uko akenshi aha ari ahantu hakoreshwa cane haba mu gihe cy'imvura ndetse n'izuba, bityo gusakara inzira bituma bagenda nta kibazo.

Urusengero cangwa inzu y'Imana, akaba ari ahantu hateranirwa rimwe mu cumweru, hashobora kuba ku isabato cangwa se ku cumweru bitewe naho umuntu asengera. Urusengero ni ahantu heza hiyubashe umuntu aganirira n'Imana akaba ari n'ahantu umuntu ashobora kwiyungira n'Imana mu gihe yakoze ibyaha.

Saro akenshi saro ni igice cicazwamo abashitsi kikaba kirimo, ubwoko bw'intebe bwihariye, akenshi intebe zishishwa muri salo zizwi ku mazina gamadive, cangwa se intebe z'imifariso cyangwa se ubundi bwoko bw'intebe zishobora gushyirwamo imifariso, n'intebe ziba zifite ibyo kwicaramo binebe.

Karoti kikaba ari kimwe mu bihingwa na byo byera mu Ntara y'Amajaruguru, mu turere twose tugize Intara y'Amajaruguru. Ubusanzwe karoti kugira ngo zere, zibanza guseswa ahantu hatunganyijwe neza, nyuma yaho zikazamera, zikabona kwitabwaho kugeza zeze.

Umukotezo akaba ari kimwe mu gikoresho bifashisha, bakora igikorwa cyo gukotera, cyangwa se gushyira sima hagati mu myanya, urugero nko mu makaro, mu matafari, mu mapave n'ahandi hantu. Gukotera birinda amatafari kuba ashobora kwangirika, cyangwa se amakaro kuba yakwangirika mu buryo bw'ako kanya.

Urusengero rwa Adeperi, akenshi urusengero ubundi ruba rwubatse mu buryo ki ruba rufite amadirisha menshi ndetse n'inzugi nyinshi, nanone rukagira umwanya munini wicarwamo n'abayoboke cangwa se abantu baba baje gusenga baturutse impande zitandukanye. Insengero ni hamwe mu hantu hera hatuma abantu bakomeza amategeko y'igihugu ndetse n'ay'Imana.

Umuhanda gwa kaburimbo gurimo kubakwa. Akenshi umuhanda gwa kaburimbo gubakwa ahantu hamanjije gutunganywa hacukuwe hakaringanyizwa, ku rugero rw'uko umunanda nigubakwa gutazarigita, gutazarigita cyangwa se gukamanuka hasi. Akenshi hari ibitaka byinshi biba byaracukuwe bigashyirwa ku ruhande, bigenda bitundwa n'imodoka zitandukanye.

Umurima gw'ibigori gwegeranye n'amasinde. Amasinde gakaba ahantu hahinzwe ariko ntihaterwemo imyaka runaka. Hakaba kandi hari n'inzu y'amategura cangwa se isakajwe amategura. Amategura akenshi ntabwo agikunze gusakazwa yasimbujwe n'amabati.

Ubuhunikiro rusange cyangwa se ikusanyirizo rusange ry'ibirayi, izi zikaba ari inzu zigezweho zifite uburyo zikora zubatswe, ku buryo ki zituma mu nzu i... irimo ibirayi cyangwa se n'izindi myaka zibonetsemo hagiramo ubushuhe buringaniye ndetse n'ubukonje buringaniye, ku rwego rutuma imyaka zirimo zimera cangwa si ntizangirike.

Etaje cyangwa se inzu yubatse mu buryo bugerekeranye aho inzu imwe iba igeretsweho agandi mazu menshi Amayetaje akenshi gakunze kugaragara ahantu hateye imbere mu mijyi ndetse n'imirwa mikuru y'igihugu. Ama etaje ni meza cyane kuko gubakwa ahantu hato kandi akaba ari amazu menshi.

Etaje ikikijwe na garidefu cangwa se uturinda abasazi. Akenshi uturindabasazi dushyirwa ku nyubako zifite uburebure burenze, ubwo ni ukuvuga amayetaje, cangwa si inyubako zubatswe ahantu hegereye umuhanda, kugira ngo abantu binjira cyangwa bagakoresha izo nyubako bashobore kuba batagwa, cangwa si tubarinde impanuka.

Ikigo nderabuzima, ikigo nderabuzima ni ahantu bamwe bakunze kwita kwa muganga. Ni inyubako iba yubatswe ahantu runaka, ikaba yaragenewe gukorerwamo ubuvuzi. Umuntu ufite ikibazo c’uburwayi aragenda, bakamusuzuma, nyuma yo kubona uburwayi, bakamuha imiti, agataha.

Imidugudu y'icyitegererezo akaba ari imidugudu yubatse mu buryo imwe iba irimo guhera ku miryango ebyiri, izi nzu cyangwa se iy'imidugudu ni imwe mu midugudu myiza y'icyitegererezo bitewe n'uko ifasha abantu benshi gutura ahantu hatoya, bityo bakaba bagira ubutaka ku ruhande basiga bifashisha mu bindi bintu birimo ubuhinzi.

Abayoboke b'idini ya gatotulika cangwa se bicaye imbere y'ikiliziya barimo gusomerwa misa n'umupadiri, akenshi insengero ziba zifite umwanya cyangwa se ibibuga bishobora guteranirwamo n'abayoboke, mu gihe bibaye ngombwa ko amasengesho gabera hanze.

Urusengero rw Abahamya ba Yehova, ubusanzwe insengero zirimo amoko menshi y'abasenga ndetse basenga no ku minsi itandukanye, by'umwihariko uru rusengero, ni urw 'Abahamya ba Yehova, basenga ku isabato cyangwa se ku wa gatandatu, bakongera bakanasenga ku cyumweru. Abahamya ba Yehova bari mu bantu bamwe, bagira umwihariko wabo mu myemerere.

Uruganda. Rukaba kimwe mu bikorwa remezo . Uruganda niho bakorera ibintu bigiye bitandukanye nk'imyenda, imiti, gutunganya ibiryo birimo nk'ifu, umuceri, kawunga, ubugari, ndetse hakaba habaho n'inganda z'inkweto, zikora za matera, zikora amagare, zikora n'ibindi bikoresho bya pulasitiki.

Umubyeyi wafashe micorofoni cyangwa se insakazamajwi, uri kuvugira mu ruhame, mu busanzwe micorofone ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mubirori bigiye bitandukanye, cyangwa se mu nama hagamijwe ko ijwi risakara kure rikagera kuri bose, iki ni igikoresho cy'ingenzi.

Inama cangwa se inteko hagati y'abaturage n'ababayoboye ni ukuvuga inzego z'ibanze z'ibanze zirimo ba mudugudu nubwo hashobora kuza izindi nzego zisumbuye nk'abapolisi cangwa se abasirikare inteko cangwa se inama zo mu mudugudu ziba zibanda ku bibazo abaturage bagiraga ndetse n'ibisubizo byashakirwa ibyo bibazo.

Umubyeyi ufashe mikoro uri kuvuga ku ngingo runaka ishobora kuba ari ikibazo icyifuzo mu ruhame cyangwa si mu nteko, aho bateranye bari kwiga ku kibazo runaka cangwa si imyanzuro z'ibintu runaka bagiye kuzakora, cangwa si bibateganyirijwe bagaragaza uruhare rwabo imbaraga bagomba kuzashi.

Inama cyangwa ikoraniro ry'abantu bafite icyo bari kwigaho, bafite intego yabazanye, ndetse n'imyanzuro iba igomba gufatwa, hagamijwe kumakaza cyangwa guteza imbere ikintu runaka. Ubundi inama ziba hagamijwe gukemura ikibazo, kwiga ku kintu runaka, cyangwa hashaka gukorwa ubukangurambaga bw'ikintu runaka.

Imfungwa ziri guhabwa amabwiriza g'ukuntu zigomba kwitwara muri gereza cangwa si nyuma yo gusohoka hanze. Ubusanzwe umuntu afungwa bitewe n'uko yitwaye cangwa si n'ibyaha yakoze. Ibifungo birimo ubwoko bwinshi, gusa ikirenze ikindi ni igifungo cya burundu, gihanishwa umuntu wakoze ibyaha bikomeye.

Imboga n'imbuto ni bimwe mu bihingwa bifite amafaranga ndetse bisabwa kwitabwaho ndetse n'ibihingwa bigurika cyane kwisoko. Ibi biterwa n'uko imboga n'imbuto ari kimwe ari bimwe mu bihingwa byuje vitamine usibye kuba bifite vitamine hari n'ababyifashisha mu biro bigiye bitandukanye kugira ngo barimbishe ibikorwa by'ibyo birori.

Muri gare cangwa se aho bategeraga imodoka, aha ni ahantu usanga imodoka zija ahantu hagiye hatandukanye. Muri gare niho honyine ushobora gutegera cangwa se gufata imodoka yakujana mu rugendo runaka kurusha ahandi hantu, ahantu nanone usanga ibindi binyabiziga birimo za moto ndetse n'amagare.

Imifuka zirimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ubusanzwe umufuka ni igikoresho gikoreshwa bapakira, babika cangwa bahunikamo imyaka zigiye zitandukanye. Imifuka kandi usibye kubazorosha gupakira ibintu, zinorosha gutwara ikintu kimwe uri kukivana ahantu hamwe cangwa uri kukijana ahandi, imifuka ni kimwe mu gikoresho kiba gikenewe cane.

Amarembo ga gare ya Rubavu. Ubusanzwe amarembo ga gare cyangwa se ginjira muri gare runaka gagomba kuba ari manini ku rwego gashobora gukoreshwa n'imodoka zirenze imwe. Akenshi ku marembo ga gare haba hariho abashinzwe kwemera cyangwa se gutuma imodoka zitambuka nta kavuyo.

Bisi cyangwa se imodoka zikora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange bisi akenshi ziba zirimo imyanya kuva kuri makumyabiri kuzamura gusa nko mu bwoko bw'amabisi y'izitwa za ritiko ziba zirimo imyanya igera nko muri mirongo itanu ziba ari bisi nini cyane kandi ndende zitwara abantu benshi kandi n'imizigo myinshi.

Indege kikaba kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byorosha imigenderanire ndetse n'imihahire. Indege ni ubwoko bw'ikinyabiziga kigenderaga hejuru mu kirere gitwaye abantu ndetse n'ibintu, kikaba kizwiho ubwihute ndetse no korosha ingendo.

Bisi cangwa se imodoka itwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange, ya kampani yitwa vorukano egisipuresi mu busanzwe bisi ishobora gutwara abantu bageze ku mubare makumyabiri, natanu cangwa se mirongo itatu, cangwa zikanarenga bitewe n'ubushobozi ifite n'imyanya ifite zo kwicarwamo n'abagenzi.

Umuhanda gwa kaburimbo ukaba igikorwa remezo gituma ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye nk' nk'imodoka, moto, amavatiri ,za rukururana ndetse n'abantu babasha kugenda bigatuma horo horoha igikorwa c'ubuhahirane n'ubucuruzi.

Imodoka ya bisi cangwa se itwara abantu mu buryo bwa rusange ya banki yitwa ayi andi emu banki. Izi modoka ubusanzwe n iziba zifitwe n'amakampani runaka, bivuze ko n'imodoka zitwara abakozi bakorera ico kigo. Amahoteli, ibitaro, ndetse n'izindi bizinesi zikorera zikunze kugira imodoka zabo bwite.

Amayetaji cangwa se amagorofa. Zikaba ari inyubako zubatse zigeretsweho izindi nyinshi hejuru yazo, ku buryo zaremewe gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, ndetse akenshi amayetaje gakunze kuba gari mu migi cyangwa se ahantu hasatira kuba umugi. Amayetaje ni zimwe mu nzu nziza kuko zubakwa ahantu hatoya kandi ari nini.

Umurongo gw’abantu bari muri gare aho bafatiraga imodoka, bategereje imodoka. Akenshi iyo abantu babaye benshi, mbere yo gutega imodoka batondekaga umurongo, bisyo kugira ngo hatazamo kurenganwa kw’abantu baba baje kare, bigatuma bashobora kutagenda bitewe n’imbaraga nke zabo, baba bafite. Muri gare, haba harimo abashinzwe umutekano n’abandi bashinzwe gukata amatike.

Abantu bicaye ndetse bakikiye ibicugutu. Ibicugutu ni ibikoresho byifashishwa mu butwazi. Kuva mbere, ibicugutu byakoreshwaga bitwara ibintu byinshi bitandukanye nk'ibirayi, amashu, karoti ndetse n'ubundi bwoko bw'ibintu biremereye. Nubwo muri izi minsi bwasimbuwe n'ibinyabiziga bigezweho nk'amagare, moto, n'uturifani.

Imodoka iri gupakira ibishingwe cangwa si imyanda . Imyanda akenshi ziririmo ubwoko butandukanye harimo izibora ndetse n'izitabora. Niyo mpamvu haba hagomba gushirwaho ahantu hatandukanye zigomba gushirwa ni ukuvuga ko imyanda zibora zigomba kugira aho zijugunywa ndetse n'izitabora zikagira aho zijugunywa kugira ngo bityo no kuzitwara byorohe.

Amagare, akaba ari ibinyabiziga biciriritse byifashishwa n'abantu babigendaho, cyangwa se babitwaraho imizigo. Amagare yoroshya ingendo ndetse akanateza imbere abayagendaho, bitewe nuko ushobora kuritwaraho imizigo bakaguha amafaranga, cyangwa ukarigendaho ugiye mu kazi runaka, habaho amagare ya siporo n'andi yitwa mata......

Ubwoko bw'imodoka butwara ibisukika, akenshi amayesansi cyangwa se ibindi bintu bikomoka kuri peteroli. Ubu bwoko bw'imodoka buba bufite ibintu inyuma bimeze nk'ibigunguru, byagenewe gusukwamo ibyo bintu by'ibisukika. Izi modoka akenshi zikunze kuba ari ndende kandi zikora n'ingendo ndende.

Ubwikorezi bw'imyaka ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ubwikorezi bw'ibitoki cangwa ndetse n'indi myaka igiye itandukanye. Bushobora gukorwa n'ibinyabiziga ndetse n'abantu ku giti cabo, gusa iyo harimo gupakururwa iyi mizigo, abantu nibo bazikorera ku mutwe bakazijana ahantu ziba ziri gupakururirwa.

Ku iseta y'abamotari aho abamotari bahagararaga bategereje abagenzi. Akenshi akunze kuba ari umurongo w'abamotari baba batondetse bategereje ko hari abagenzi baza bakabatwara. Ni imirongo ikunze kuba itagororotse gusa y'abamotari begeranye.

Moto kikaba ari kimwe mu bwoko bw'ibinyabiziga by'amaguru abiri, biba bifite moteri ndetse bisaba esanse cyangwa se amavuta basukamo kugira ngo kibone kugenda. Moto ni kimwe mu binyabiziga byihuta, kandi bikorera amafaranga bitewe nuko nyiri moto ahekaho abantu ndetse n'imizigo, nyuma yaho akishyurwa.

Indege itwaraga abantu mu buryo bwa rusange, y'ikigo cangwa si ya kompanyi yitwa Rwandair. Indege ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu butwazi mu bwikorezi, ndetse n'ubutwazi bw'abantu n'ibintu, bava ahantu hamwe cangwa se baja ahandi mu buryo bwihuse, ugereranyije n'ubundi bwoko bw'ibinyabiziga nka moto n'imodoka ndetse n'amagare.

Kuri arete cangwa se aho bategeraga bisi. Aho batageraga bisi aba ari ahantu ku muhanda hahagararaga bisi ziva cangwa se zija ahantu runaka. Aha hantu akenshi hakunze kuba hari abantu bategereje gufata izo modoka.

Imodoka yo mu bwoko bwa hoho iri umuhanda gwa kaburimbo. Mu busanzwe imodoka za hoho ni ibimodoka binini, birebire bikunze kuba biri mu mabara y'imituku, akaba ari imodoka zizwiho gupakira ibintu byinshi kandi zikaba zikora ingendo ndende. N'ubwo hoho zipakira ibintu byinshi kandi birenze, zizwiho kugendera ku muvuduko munini cane.

Lifani, cangwa si ikinyabiziga c’amapine atatu. Ubu ni ubwoko bw’ikinyabiziga bubarirwa muri za moto, uretse ko bwo bufite umwihariko wo kuba bufite icyo batwaragamo imizigo kiba kiri inyuma, ndetse uyitwaye agenda yambaye kasike. Aka ka lifani gafite ubushobozi bwo gutwara imifuka, ndetse n’izindi mizigo zigiye zitandukanye.

Agataro cangwa si agakoko kariho uducuruzwa tugiye dutandukanye turimo ibinyo ubunyobwa, amabombo go ku duti, za pampa ndetse n'amabiswi. Akenshi ba nyirugucuruza utu duta utu dutaro babita abazunguzayi.

ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya kigali. Aha akaba ari ahantu hagwa ndetse hagahagurukira indege z'ubwoko bugiye butandukanye, zaba izigwa mu Rwanda ndetse n'iziva mu Rwanda zijya mu mahanga. Akaba ari ahantu haba hafite umutekano urenze, bitewe n'urwo rujya n'uruza rw'abantu, bagenda cyangwa bava mu Rwanda.

Imodoka za rukururana. Ubu ni ubwoko bw'ibinyabiziga bwagenewe gutwara imizigo myinshi. Aha ngaha mu izo mizigo twavugamo nk'amasima, ibyo kurya bigiye bitandukanye biririmo imifuka nk'imiceri, za kawunga ndetse n'ubundi bwoko bw'ibicuruzwa. Twavugamo nka za palastiki ndetse n'ibindi. Izi modoka zikora ingendo nyambukiranyamipaka cyangwa...

Abanyegare cangwa se abantu bakoraga umwuga go gutwara abantu n'ibintu bakoresheje ibinyabiziga by'amapine abiri byitwa amagare. Amagare ni kimwe mu bikoresho byifashishwa hakorwa ingendo nini，utwaye cangwa se utwara umuntu，cangwa se utwaye umuzigo， amagare ni bimwe na none mu bikoresho bidatwara amafaranga menshi.

Muri gare cangwa se ahantu haparikaga amamodoka gatwaraga abantu mu buryo bwa rusange gazwi nko ku ma bisi, gabavana ahantu hamwe gabajana ahandi. Muri bisi hasangwa imodoka za kompanyi cyangwa se kampani zigiye zitandukanye. Nk'imodoka za kampani, za sitera na Yero, Safarisi, Difera, Ritiko, Interinasiyonari n'ubundi bwoko bw'amamodoka.

Pisine akaba ari amazi bafata bakagashira ahantu hamwe. Bikaja biratuma abantu baja kuhoga nta kibazo. Ubusanzwe pisine zikunze kuba ahantu nko mu mahoteli, ndetse n'ahandi hantu hakorerwa ibintu by'ubukerarugendo.

kugendesha inkweto zamapine, inkweto z'amapine ni inkweto zikoze ku buryo munsi yazo harimo udupine bityo umuntu iyo azambaye ashobora kugenda akamera nk'umuntu uri kugendera ku kinyabiziga bitewe n'uko izo nkweto ziba ziri kumanuka ku muvuduko nk'ugw'ikinyabiziga nk'igare, moto cangwa imodoka rimwe na rimwe

Umukinnyi witeguye kujugunya cyangwa se kwakira agatenesi mu mukino gwa tenisi. Umukino gwa tenisi na go ni umukino gukinwa umukinnyi afite igikoresho akubitisha agatenesi, cyangwa si asubirishayo agatenesi. Ni umukino aho utsinda afata agatenesi, yakajugunyira mugenzi we uri mu kibuga co hirya kamurengaho akaba aramutsinze.

Gukorera perme; igikorwa co gukorera perme ni igikorwa kinyura mu byiciro bigiye bitandukanye, aho ukorera permi niba ari iyo gutwara imodoka cangwa si moto, aba agomba gutsinda ibizamini bigiye bitandukanye, birimo kumenya guparika, kumenya kugenda mu muhanda runaka, n'utundi tuzamini tugiye dutandukanye.

Amakurusi cangwa isiganwa cangwa umukino w'isiganwa ry'amagare, ubundi busanzwe umukino w'isiganwa ry'amagare ni umukino ubamo ibice bigiye bitandukanye, aho abantu baba bagomba gusiganwa mu gice runaka, birukanka ibirometero bitandukanye. Umuntu ashobora kwegukana agace kamwe ariko ntiyegukane umukino wose.

basikete ni umukino bakina bakoresheje amaboko， aho utsinda afata umupira yarangiza akagujugunya mu gapaniye， wagwamo akaba atsinze bagenzi be.

Ubwoko gw'umukino gwo kujugunya disike. Disike ni ikintu kimeze nk'agasahane, ariko kiba kiremereye. Ugwo mukino bagukina bafata ico kidisike bakakijugunya ahantu runaka, cahagera aho bashakaga ko kigera, umuntu akaba aratsinze. Disike kubera uburyo iba iremeye, bisaba kugira ngo umuntu ayijugunyanye imbaraga.

Futuboro gukaba umukino guhuza amakipe abiri ahanganye, ukaba umukino bakinisha ibirenge. Ubusanzwe futuboro ni kimwe mu mikino ikunzwe kureba cyane, ndetse abajene cangwa se urubyiruko rukunze kuba rushishiriye kureba no gukora.

Umukino gwa tenisi bakina bifashishije ibikoresho, bakaja barajugunya n'ututenesi, kakurengaho utakagaruye ukaba uratsinzwe. Ni umukino akenshi zidakunze kugaragara mu byaro ahubwo zikunze kuba mu mijyi.

Umukino gwa voleboro ni gumwe mu mikino bakina bifashishije amaboko, bikaba kugira ngo bitsindane basaba kugira ngo umwe mu bakinnyi b'ikipe afate umupira awurenze icitwa file gitandunya aho amakipe gombi gabaga gari gukinira, noneho umwe mu bakinnyi cangwa se mu yindi kipe bari gukina nawe, atawufata bakaba baratsinzwe.

Muri tiribine cangwa se aho bicaraga baje kureba umupira w'amaguru. Aha ni aho abafana baje kureba umupira w'amaguru cangwa ubundi bwoko bw'umupira bicaraga mu gihe bari gufana cyangwa se bari kureba uko umukino guri kugenda. Aha ahantu hakunze kuba hasakaye cangwa se hadasakaye gusa harimo intebe zegiye zegeranye.

Pisicine cangwa se amazi gakusanyirijwe hamwe mu buryo butari karemano, aho abantu bajaga bakoga bakacaramo, bakidumbaguza mu buryo bugiye butandukanye, ndetse bakaba bashobora no kuhifatira amafoto, ndetse bakaba bashobora no kuhajana imiryango n'inshuti zabo.

Sitade cyangwa se igikorwa remezo cyagenewe gukinirwamo ubwoko bw'imikino igiye itandukanye by'umwihariko umukino w'umupira w'amaguru. Sitade ziba zifite imyanya itandukanye bitewe n'amafaranga umwanya uwufite, bivuze ko stade haba harimo imyanya isanzwe ndetse n'imyanya za viyayipi. Sitade inyinshi ziba zisakaye nubwo hari iziba zitanasakaye.

Abakinnyi bari gukina. Bari gukina mu ikipe imwe umukino gwa basiketiboro. Basiketiboro ni umukino ubusanzwe gukinishwa amaboko, aho ufata umupira ukagurenza icyitwa file cyangwa se ikiba kigabanyije ibibuga by'amakipe gahanganye, noneho gwagwa hasi iyo kipe ikaba iratsinze.

Uruvunge rw'abantu bari kureba umukino w'isiganwa ry'amagare cangwa se ibyo bamwe bitaga amakurusi. ubusanzwe, amakurusi gakunze kurebwa cyane abaturage bashungereye ku mpande zombi z'imihanda aho baba bari no gufana bamwe mu bakinnyi bazwi. Amakurusi cyangwa se umukino w'amagare ni umwe mu mikino myiza.

Amakurusi cyangwa se umukino wo gusiganwa ku magare. Ugu ni umukino uba aho abakinnyi bawo batwaye amagare bari gusiganwa mu buryo bw'ibirometero. Mu busanzwe umukino cangwa se gusiganwa ku magare gukorwa mu byiciro bitandukanye ibyo bita etape aho abantu bagenda basiganwa mu duce runaka nyamara nyuma yaho bakazareba uwatsinze irushanwa ryose.

Gucenga cangwa kwaka umupira mugenzi wawe w'umukinnyi muhanganye ushaka kuja gutsinda cangwa uri kwataka mu buryo bwo kugira ngo ushake igitego. Iki ni igikorwa co kumenya gutwara umupira ugwaka mugenzi wawe cangwa se unaguhereza mugenzi wawe byo bita amapasi, mu buryo bwo kugira ngo mukorane mushake igitego.

Abakinnyi bafite ibihembo nyuma yo kwegukana imyanya runaka mu mikino itandukanye, ubusanzwe igihembo kiba kiri mu buryo gikozwe mu bintu bishishagirana cane usibye ko ikiruta ibindi ari ica Zahabu. Igikombe ni ishimwe rihabwa umuntu wakoze neza cane mu kintu runaka.

Umukino gwa basketball ni umukino gukinwaga aho gukinishwaga amaboko, aho abagukina bafataga umupira bakagujugunya mu gapaniye kaba kari hejuru yabo, ubwo bagufata, ikipe ihanganye n'indi ikagujugunya mu gapaniye k'ikipe bahanganye, bakaba baratsinze.

Ikipe cyangwa se itsinda ry'abakinnyi bari ahantu runaka imbere y'amazamu mbere yuko batangira umukino. Ubusanzwe ikipe y'umupira gw'amaguru iba igizwe n'abakinnyi cumi n'umwe, abakinnyi icumi bajya baja mu kibuga ndetse n'umunyezamu uba ugomba kurinda izamu mu gihe umukino gurimo kuba.

Itanki cyangwa se ikigega cy'amazi kikaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa mu kubika amazi mu buryo bw'igihe kirekire. Ibigega bikoreshwa ahantu hatandukanye nko ku mashuri, ku bitaro, ndetse bikaba byanakoreshwa n'abantu ku giti cyabo. Ibigega ni ingirakamaro cyane kuko bidufasha kubika amazi mu buryo bw'igihe kirekire.

Umunyegare cangwa se umuntu ukora umurimo wo gutwara abantu, n'ibintu akoresheje ikinyabiziga citwa igare igare rishobora nibura guheka, ibiro biri hagati y'ijana na magana abiri mirongo itanu ndetse rigaheka n'abantu b'ibyiciro, bitandukanye igare nubwo bimeze bityo biragorana cane kuzamuka imisozi.

Umuhanda gwa kaburimbo. Ni kimwe mu bikorwa remezo byifashishwa mu bucuruzi mu migenderanire. Byoroshya imigenderanire ndetse n'imihahire. Imihanda za kaburimbo ni kimwe mu bikorwa ndetse n'ibikorwaremezo by'ingenzi mu bukungu.

Ku irembo cangwa se hanze y'urugo akaba ari umwanya uba uri imbere y'igipangu, cangwa se urugo runaka. akaba ari nk'ahantu kenshi haba hanyura abantu benshi b'ingero zigiye zitandukanye bava ahantu hamwe baja ahandi. Amarembo akenshi arangwa no kuba ateyeho indabo cyangwa se ariho amapave.

Urusisiro akaba ari itsinda ry'amazu yegeranye gusa ari munsi y'umudugudu. Urusisiro rumwe rushobora kugirwa n'amazu arenga cumi n'atanu ariko ibi ntabwo bituma uba umudugudu kuko umudugudu wari munini ku rusisiro. Insisiro kandi zigenda zigira utuyira tuzitandukanyije.